Aba bagabo bambaye amapingu bagaragara nk'imfungwa, kandi bari muri gereza, bakoze ibyaha bitandukanye, ni yo mpamvu bambaye amapingu.

Gucunga umutekano mu muhanda ni byiza, kuko birinda abantu impanuka, cyangwa kuba ibinyabiziga byahurira mu muhanda ari byinshi bikaba byateza ambutiyaje.

Ingabo z'igihugu ziri kwiga, uburyo warwanya inkongi y'umuriro, uramutse ugize inkongi y'umuriro, itewe na gaze, babyiga kugira ngo, birinde impanuka.

Aba ni ingabo z'igihugu bita abaporisi，basa nk’aho bari ku murongo，bari kumva ibyo umukuru wabo ababwira， kandi ni ingabo z'igihugu ziducungira umutekano.

Izi ni ingabo z'igihugu ziri mukararasisi muri sitade, zirimo kwizihiza umunsi mukuru w'intwari ndetse n'abantu bari muri sitade bicaye bari kureba akarasisi k'ingabo z'igihugu.

Abaturage twese dukwiye kujya mu nama zitandukanye, kugira ngo tumenye aho igihugu cyacu kigeze mu iterambere, hari abaturage benshi bafite ubwitonzi cyane kuko bakurikiye inama uri kuyibaha.

Aba ni abacunga umutekano bo mu mudugudu, cyangwa ndetse mu dusoko dutandukanye. Babasha kurinda ibintu by'abandi, ndetse no kureba abateza umutekano muke.

Abakizimyamuriro bari kwigisha abaturage uburyo bakwirwanaho, mu gihe uhuye n'inkongi y'umuriro idakabije cyane.

Umukuru wa polisi y'u Rwanda yambaye neza, afite amaranka menshi ku ntugu, ndetse n'idarapo riranga igihugu cyacu ku rutugu rw'iburyo.

Ingabo z'igihugu zidufasha gucunga umutekano w'igihugu, bityo abaturage nkatwe tukabona igihugu kimeze neza cyane.

Aba ni abaturage bari mu nama ndetse ni benshi cyane, bateze amatwi uri kukoresha inama, ndetse hari na za bafure zimufasha kuyungurura amajwi.

Iyi ni sare ikorerwamo inama zitandukanye, kandi hagaragara neza cyane abitabiriye inama, basa neza cyane, bafite n'amazi ku ruhande rwabo.

Aha ni muri salle y'inama, irimo abantu benshi batandukanye b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bafite za mashini ndetse bari mu nama kandi bagaragara neza.

Aba ni abakobwa b'Abanyarwandakazi. Bafite ibisabo bari gucunda amata, ndetse bambaye urugori mu mutwe kandi basa neza cyane.

Aba ni abana bafite ,urusyo ,n'ingasire ,n'intara ndetse n'akebo bari gusya ifu bashira mu kebo, bari kwiga uko basya, abandi barahagaze bari kureba uko mugenzi wabo ari gusya.

Itorero riri kubyina neza, imbyino gakondo, ndetse n'abakaraza bari gukoma neza, abakobwa bikoreye uduseke, bari kubyina imbyino nziza igezweho.

Ingoma ni nziza cyane bazifashisha mu gukoma ushaka injyana. Igisabo ukifashisha uri gucunda amata, inkongoro uyinywesha amata ndetse n'imbehe uyifashisha urya, agaseru batwereramo.

Igihaza ni cyiza cyane kuko kiryoha cyane, kandi igihaza gikorwamo uducuma, ukaba watugurisha ku isoko ukabona abakiriya.

Utu ni uduseke duteretse ku ruhu, cyangwa ku kirago ndetse turi no mu nzu bita indaro, ariko ni nziza cyane.

Itorero riri kubyina neza cyane mu muco nyarwanda, bambaye imyenda myiza n'amayugi mu maguru abafasha gucinya umudiho, ndetse n'abakaraza bari kubabakomera ingoma, abandi bakaririmba.

Kulubyina ni byiza, ni umuco nyarwanda ku banyarwanda twese, kubyina ni byiza bikurura ba mukerarugendo, kandi bishimisha ababireba, niwo muco gakondo wacu nk'abanyarwanda muri rusange, n'abanyamahanga bakunda uyu muco wacu wo kubyina, bamanitse amaboko, ndetse banabyinisha amayugi.

Itorero riri kubyina imbyino gakondo, bambaye neza cyane, bambaye imyenda myiza cyane ndetse n'urugori mu mutwe, kandi basa neza.

Uyu ni umugabo ufite isekuru ndetse n'umuhini. Isekururo ikoreshwa mu gusekura isombe, imyumbati n'ibindi bitandukanye. Wakoresha ushaka mu gusekura.

Aha ni mu rugo rw'umuntu ufite udutebe twa kinyarwanda ndetse n'agatebe gasanzwe, hari n'icupa ry'amazi ndetse n'inkwi ku ruhande.

Gushyira umutiba mu giti bituma, inzuki ziza zikajyamo maze zigasigamo ubuki, bityo uwabimenyereye akajya guhakura akabonamo ubuki.

Uyu ni umugabo wambaye imishanana, inkweto za rugabire, urunigi mu ijosi, ndetse akaba ari no kubyina imbyino bita gakondo cyangwa guhamiriza nk'intore.

Ni intore ziri kubyina imbyino gakondo, zambaye neza zifite urugori mu mutwe ndetse zambaye n'urunigi mu ijosi ndetse n'amayugi kugira ngo abafashe mu gukora injyana.

Isekuru ni nziza cyane, tuyifashisha turisekuramo ibintu bitandukanye nk'isombe, ubugari, ubunyobwa ndetse n'ibindi byose bisabwa gusekurwa.

Uyu ni intore iri kubyina imbyino zo mu muco nyarwanda; ibyo bitaga guhamiriza, yambaye imyenda myiza ijyanye n'umuco nyarwanda ndetse yambaye n'urunigi mu ijosi.

Aba ni ababyinnyi bambaye imishanana ,ndetse bambaye amayugi ku maguru. Amayugi abafasha gukora injyana bakoresheje ikirenge cyabo.

Uyu ni umubyeyi ufashe igisabo gikoreshwa mu gucunda amata ndetse n'inkongoro ku ruhande, ari bwifashishe amaze gucunda amata ayakoramo amavuta.

Aka ni agaseke gakoreshwa mu gutwerera ndetse no gutaka mu nzu, kandi aka gaseke kagaragaza amahoro, kuko uwo usuye n'ugusuye muba mufitanye amahoro.

Aba ni abaturage bagiye kwenga umutobe, bakoresheje umuvure ndetse n'ibyatsi byabugenewe, umutobe uraryoha cyane cyane iyo uri kuwusoma ku kazuba.

Uyu ni umubyeyi wogoshe neza, kandi wambaye urunigi, ugaragara mu nyogosho z'abakera, mu Rwanda rwo hambere.

Aba ni abaturage ndetse n'abagabo bari kunywa mu ntango, bari kunywa ikigage, ndetse n'ababyeyi bahagaze iruhande rwabo bafite inkongoro, n'udukoko turiho umutsima.

Iri ni itsinda rigizwe n'abantu babyina mu muco nyarwanda, harimo intore ndetse n'abakobwa basutamye, bafashe inkongoro ibisabo ndetse n'abagabo bafite amacumu, bambaye ni imyenda myiza cyane.

Iki gisabo bagikoresha bari gucunda amata ndetse kikaba n'umutako wo mu nzu, ukanacyifashisha mu bukwe bujyanye mu gusaba no gukwa.

Izi ni inkono y'itabi ikoreshwa mu kunywa itabi, hakoreshejwe igikara ndetse inkono y'itabi ni igikoresho cya kera nubu kigikoreshwa.

Intore ziri kubyina igishakamba, ndetse n'abakaraza bari gukoma ingoma babakorera umujya w'injyana, kugira ngo bimurike neza cyane.

Uyu ni umukobwa uri guhinga wambaye ibirenge ufashe isuka. Ari guhinga umurima uraye ndetse n'intama ku ruhande, ndetse n'amazu ari ku ruhande, ndetse n'ibishyimbo byitwa ibizungu biri iruhande rwe.

Ibibindi cyangwa intango ibamo urugage, iyo abantu baje ukabakiza intango bashiramo imiheha maze bagasoma bakamara inyota.

Iyi ntore iri guhamiriza neza cyane, yambaye imyenda ya gitore kandi isa nkaho iri gucinya umudiho neza cyane.

Iri ni itorero ribyina ibijyanye na gakondo, n'abakobwa bambaye urugori mu mutwe ndetse bambaye amayogi mu maguru bari kubyina neza cyane.

Iyi ni intore iri guhamiriza mu muco nyarwanda, n'undi muntu uri ku ruhande uri kumucurangira, maze nawe afite icumu ndetse yambaye n'imyenda gakondo.

Ibishushanyo ni byiza cyane, kuko byifashishwa mu kudekora muri salon cyane ahantu heza habugenewe, hari igishushanyo cy'ingagi, igishushanyo cy'imparage, ndetse n'igishushanyo cy'umukobwa.

Aba ni abasiporotifu bari gusimbuka urukiramende. Ibi byakorwaga kera nko kwidagadura ku Rwanda rwo hambere ,na n'ubu turacyafite uwo muco wo kuwukoresha. Ariko twe tubikora nka siporo ndetse no kugorora umubiri kugira amaraso yacu atembere neza mu mubiri.

Itorero riri kubyina imbyino gakondo, ndetse n'abagabo bari kubarimbira, abandi bari kubyina igishakamba, bari mu gikorwa cyo kwita abana b'ingagi bavutse.

Uduseke ni twiza cyane, kuko twifashishwa mu gutwerera imfukire ahantu, cyangwa kutudekura mu nzu bityo bikagaragara neza cyane.

Aba ni abagore batatu bari kunywa ku ntango y'ikigage, intango ni mu muco nyarwanda wo kunywa usaba cyangwa utanga umugeni.

Kugira isuku aho dutuye ni byiza, ndetse no gukubura ku mihanda y'iwacu no gukora umuganda ni byiza, kuko bituma tugira isuku tukagira n'igihugu cyiza gifite isuku.

Ikigage kiri mu ntango n'imiseke, iyo usomyeho ubasha kwica akanyota kandi ikigage kiri mu ntango, kiba kiryoshye cyane, kuruta ibindi bigage.

Kuboha ni byiza cyane, kuko bivamo kuboha uduseke ndetse n'imitako, ushobora gutaka mu nzu, ndetse n'ubuseke bukoresha mu gutaka cyangwa mu gutwerera ahantu.

Ingoma ni nziza cyane. kuko zifashishwaga mu gukoma ingoma. Bari mu kirori cyangwa se mu bindi bihe bitandukanye, ariko bijyananye no gukoresha ingoma. Ingoma ni cyo gikoresho cyiza cyane.

Aba ni intore ziri guhamiriza zambaye imyenda myiza cyane, ndetse zambaye n'amayugi, azifasha mu kubyina neza, kandi ndetse bafite n'amacumu mu biganza.

Aba ni abageni beza cyane, bambaye imishanana myiza, ndetse umugeni yambaye urugori mu mutwe, ndetse n'umugabo yambaye urunigi, afashe n'inkoni nziza, impande hari uduseke duteguye tugaragara neza.

Uyu ni umusururu uri mu ntango. Bawunywa iyo bari mu muhango wo gusaba no gukwa. Umusururu uraryoha, umara inyota, kuko bakunda kuwukoresha mu bukwe, mu muco nyarwanda.

Abageni bari kunywera amata mu nkongoro, ndetse baraberewe cyane basa neza bari kwizihiza umunsi mwiza wabo.

Itorero riri kubyina imbyino gakondo ryambaye neza cyane, bambaye urugori mu mutwe, urunigi mu ijosi ndetse n' imishanana myiza cyane.

Aba ni abaturage bari gusekura ubugari, ndetse undi akayungurura, hari n'inkoko iruhande rwabo, ndetse n'ibigori impande yabo.

Ipensi ikoreshwa mu gukata ibyuma cyangwa mu kubikoronzora. Ipensi ni nziza cyane kuko ni igikoresho gishobora kugufasha mu gufungura ikindi cyuma.

Iyi ni sharijeri ukoresha uri gucomeka terefone yawe, kugira ngo ijyemo umuriro ubashe kuyikoresha, kandi sharijeri ni ingirakamaro.

Uru rusengero tujyamo tukajya gusenga, tukajya kwikiranura n'Imana mu cyumweru tuba twarakosheje cyane, twageramo tugasaba imbabazi Imana, ndetse twumva n'ijambo ry'Imana.

Amashuri ni meza cyane kuko ni ho dukura ubumenyi, tukaba twakwiga tugahindukamo abantu bakomeye cyane,

Uyu muhanda ni mwiza cyane, amazu meza cyane, n'ubwatsi buteye iruhande bwiza cyane, bugaragaza amahumbezi meza.

Ifoto ry'amashanyarazi rihereza abaturage bose umuriro. Iri poto turaryirinda kuko riba ririmo umuriro mwinshi cyane ugaburira abaturage.

Iki ni ikiraro cyubatswe neza cyane, kiriho umuntu uri kukinyuraho, ndetse uhagaze ku ruhande, iki kiraro gikozwe neza cyane kuko ni icy'insinga.

Urusengero rwiza cyane, tujyayo gusenga tugakiranuka n'Imana ndetse tukaba ariho turuhukira tukira imirimo twakoze ndetse tukanahemberwa icyo twazikoreye.

Aya ni amashuri yubatswe nka etaje hasi no hejuru, dore hari n'abanyeshuri ndetse n'umuyobozi wabo, aya mashuri yubatse neza cyane.

Aha ni ahantu bari gukora igikorwa cyo kubaka, ndetse bari no mu muganda bafasha abafundi mu kubaka ndetse no guhoma cyangwa gusana ibyagezweho.

Uru ni urusengero abantu basengeramo, bakabasha kuruhura imitima yabo, ndetse no kuyegereza Imana ngo bayibwire ikibaruhije ibagirire neza.

Urusengero rwiza cyane rwubatse neza cyane, urusengero twifashisha tugiyemo gusenga ndetse no kwihana ibyaha byacu, tugakiranuka n'imana.

Iyi Kaminuza idufasha kwiga amasomo atandukanye ndetse ikanadufasha kubona ibyo dushaka vuba. Iyi Kaminuza yubatse neza cyane.

Iki ni ikigo cy'amashuri giherereye hafi na kaburimbo, gifite amabati y'ubururu ndetse n'ikigo cyubatse neza, hirya hari n'amazu asa afite amabati y'imituku.

Aya mashuri adufasha mu kwiga ndetse tugashaka ubumenyi, kugira ngo tubashe kwiteza imbere tuniga ibyo twifuza kuzaba byo, kandi tukaba n'ibihangange.

Aya ni amashuri meza cyane, ariho abanyeshuri bari mu karuhuko kandi aya mashuri yubatse neza cyane mu buryo bugezweho bwiza.

Iki ni igishushanyo cya Bikiramariya kigaragaza yubile y'imyaka mirongo itanu, kiri mu kibuga cyiza cyane cy'ubwatsi bugufi, ndetse n'igipangu gikikije cy'amabuye, n'urugi rw'icyatsi.

iyi ni inzu yubatse neza kandi iriho n'abagabo babiri bari gutambuka n'idarapo y'igihugu kandi ifite n'ikibuga giteyemo ubwatsi bwiza ndetse n'ikigega cy'umukara ndetse n'ikindi cyubakishijwe amabuye.

Amazu yubatswe gutya aba ari meza cyane, kuko ni umudugudu mwiza cyane, dore ufite n'amabati y'umutuku, n'amarangi y'umuhondo ndetse namadirishya afite amarangi ya shokora.

Uyu ni umudugudu wubatswe mu mazu meza, kandi yose asa, agizwe n'amabati meza cyane y'umutuku, ndetse n'amadirishya n'inzugi zifite irangi rya shokora, ndetse n'abaturage bari mu mirimo itandukanye.

Aya mashuri bigishirizamo incuke z'abana, ni meza cyane, kuko yubatse neza cyane, afite amabara menshi atandukanye, abasha gufasha abana, kumenya ibara rya buri ishuri.

Umukino wa basikete mwiza cyane , ni umwe muri siporo zishobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi gutembera neza kw'amaraso, ndetse no kwagura ibihaha.

Uru ni urusengero ni ahantu basengera. Ni urusengero rufite irangi ry'umuhondo ndetse n'ikigega cy'umukara, ku ruhande n'inzugi z'ubururu ndetse n'urukarabiro rugezweho.

Aya mazu ni meza cyane, yubatse ku buryo bugezweho ni umudugudu mwiza cyane, ufite n'umuhanda mwiza ndetse n'ibiti byiza biri iruhande. Kandi aya mazu afite irangi ry'umuhondo ndetse n'irya shokora ku nzugi.

Ikiraro ni cyiza cyane kuko kigufasha kwambuka uva hamwe ujya ahandi, cyane cyane iyo gikozwe neza kandi gifite ubwirinzi buhagije.

Amashuri ni meza cyane, kwiga ni byiza cyane, kuko bidufasha kuba twakwiteza imbere, ndetse tugafunguka mu bwonko, kandi tukaba abo twifuza tukabera u Rwanda intore.

Aya ni amazu ya etaje, yubatswe na leta kandi aya mazu ni meza cyane, ku bayatuyemo ndetse n'abahazi aya mazu akozwe neza cyane bigezweho.

Aba ni abaturage bari mu nama, ndetse bateze amatwi abagabo bari kubakoresha inama, ndetse bicaye ku giti, n'abayobozi bicaye ku ntebe.

Hano ni mu isoko，ni baturage baje mu nama， dore bateze amatwi umuntu uri gutanga ikiganiro，kandi bitabiriye ari benshi cyane.

Izi n'imodoka ziparitse zitegereje abagenzi, izi modoka ni nziza cyane kuko zikoresha ikarita, ndetse n'imodoka zikugeza aho ushaka cyangwa aho ugiye.

Iyi ni bisi bita Ritiko itwara imizigo ndetse n'abantu. Iyi modoka ni nziza cyane, kuko iyo uyirimo ugenda uri kureba na filime zitandukanye, ziba zashyizwemo n'umushoferi.

Wotameruni ni urubuto rwiza, rudufasha kongera amazi mu mubiri, ndetse rukadufasha no kuba twagira ubuzima bwiza cyane.

Aba ni abanyonzi benshi batwara abantu ndetse n'imizigo. Bari mu kazi kabo ko kwiteza imbere no kwirinda ingaruka z'imirire mibi.

Imodoka ni nziza cyane kuko zidufasha mu kwihutisha urugendo rwacu, zikaba zinadufasha imizigo yacu bityo tukagera aho dushaka tutavunitse.

Uyu ni umugore witeje imbere utwaye akarefandi, ndetse akaba anahetse umwana ari mu kwiteza imbere, nk'umugore ubereye igihugu cyacu.

Izi modoka ni iza tagisi zitwara abantu, kandi ziparitse ahantu heza cyane, hasa nk'aho harimo resitora cyangwa muri bare.

Aha ni muri gare, aho imodoka ziparika zitegereje abagenzi, ndetse harimo n'abantu bari kugenda bajya gutega abandi bataha bava mu modoka.

Imodoka nyinshi ziri mu muhanda ndetse n'abamotari, habaye ambutiyaje kuko imodoka ntiziri kugenda, ndetse n'abamotari bose baraparitse kubera urusobe rw'imodoka zahuriye mu muhanda.

Aha ni mu muhanda, umuhanda mwiza cyane, urimo abamotari babiri, umwe uhetse umugenzi, undi uhetse umuzigo, kandi aba bamotari, umwe yambaye ijire, undi nta jire yambaye, mbese bari kwishakira imibereho.

Iyi modoka ni bisi itwara abagenzi iri mu muhanda ukozwe neza ndetse hateye amajaride impande y'umuhanda na etage nziza ndetse na pisine kuruhande.

Ni ubwato buri mu kiyaga abagore bari kugasha bambuka bava hamwe bajya ahandi. Ikiyaga ni cyiza cyane kuko kidufasha nko guhumeka.

Iyi ni bisi itwara abagenzi, ndetse n'imizigo, iyi bisi ni nziza cyane kuko igufasha kugera aho ugiye bitagusabye kuvunika, cyangwa ngo ukore urugendo rurerure uruhe.

Imodoka ni nziza cyane kuko idufasha mu kwihutisha urugendo rwacu, ikaba inadufasha mu guheka imizigo yacu tukaba tumeze neza.

Iyi ni tagisi itwara abagenzi ikaba ifite n'umukomvayeri uri guhamagara abagenzi, ndetse hakaba hari n'abantu bahagaze mu muhanda, ndetse n'ama etaje ku ruhande.

Iri ni igare ryifashishwa mu guterura imizigo, umugore uri imbere ari kurisunika ririmo matera, imifuka, ibishashi ndetse n'agasanduku, iri gare rifasha urikoresha kutavunika yikoreye.

Amashu ni imboga nziza cyane zikunzwe kandi ziryoha, iyo uyatekanye n'ibindi cyangwa ukayayakaranga yonyine ukayarisha nk'umuceri wumva ari byiza cyane.

Aka ni akarefani cyangwa akamoto kameze nk'akamodoka. Gakoreshwa mu gupakira imizigo, kandi ni keza cyane, kuko gafasha abantu mu gupakira imizigo batananiwe.

Moto ni nziza cyane ni ikinyabiziga cyiza cyane, kigufasha kugera aho ushaka wihuse utabanje kujya gutega imodoka, izi moto zifite amarangi meza cyane kandi ni nshyasha cyane.

Indege ni nziza cyane, noneho Rwandeya ni indege nziza cyane ibasha guheka abantu, ndetse n'imizigo, bityo bakagera mu gihugu bashaka bifuza.

Iyi modoka ya dayihatsu ibasha gutwara imizigo, ndetse kandi igatwara n'abantu, kandi ikagufasha no kukugezayo ibyo ukeneye byose.

Aha ni muri gare aho imodoka ziparika zitegereje abagenzi. Ndetse n'abagenzi bakajya muri gare gutega bitewe n'agace agiyemo cyangwa n'intara agiyemo.

Imodoka ya ritiko ni nziza cyane, kuko idufasha gutwara abagenzi benshi ,kandi ikadutwarira n'imizigo, itabanje kutwishyuza kandi tukagerayo amahoro.

Itorero riri kubyina imbyino gakondo ndetse intore ziri guhamiriza abandi bari gukoma ingoma ndetse bari kubyina neza cyane, banambaye neza cyane.

Siporo ni ingenzi cyane ku bantu, noneho umukino wa basiketi ni mwiza cyane kuko ubafasha mu kwidagadura ndetse no gushimisha abawureba.

Aba ni abagore bakina umukino ujyanye na siporo ndetse n'imyidagaduro, ndetse bagaragara nk'aho bari gusuhuzanya, bitewe n'uko bagiye gutangira umukino wabo.

Siporo ni ingenzi cyane, siporo ituma ugira ubuzima bwiza, kuko amaraso atembera mu mubiri neza iyo uri muri siporo, ndetse ukanirinda n'indwara bita umuvuduko.

Ikibuga cya vore kidufasha mu kwitorezamo vore ndetse tukabasha no kugira imikino y'imyidagaduro, n'ikibuga cya basiketi na cyo kidufasha kwidagadura mu mikino yacu.

Gukora siporo ni ingenzi kuri buri muntu wese, kuko siporo ituma wirinda indwara zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso cyangwa umutima, ndetse n'ibihaha kuko iyo ukora siporo ubuzima bwawe bugenda neza.

Gusimbuka urukiramende ni siporo nziza cyane yakorwaga mu Rwanda rwo hambere, bakaba n'ubungubu bagisimbuka ikintu bita urukiramende.

Baro ni nziza cyane, kuko iyo ufite baro ubasha kuba wakora agasiporo iwawe uri nko kuyidunda cyangwa kuyikina wowe n'umuryango wawe.

Kwirukanka ni siporo nziza cyane ituma umubiri ukora neza, amaraso agatembera neza mu mubiri, ndetse n'ingingo zose zikarambuka kubera ko siporo ari ingenzi.

Uyu ni umukino bita vore boro ukinwa n'abantu babikunda ndetse babishaka, hari abafite ubumuga ndetse n'abazima bose bisanga muri uyu mukino, uko uri kose urakirwa kandi uyu mukino ni mwiza cyane.

Aba ni abana bari gukina umukino w'umupira w'amaguru, ndetse ni amakipe abiri atandukanye, bamwe bambaye icyatsi, abandi bambaye oranje, bambaye amajire abatandukanya.

Siporo ni nziza cyane ku bayifuza cyangwa ku bayikunda, kuko bituma ugira ubuzima bwiza, ndetse imitemberere y'amaraso mu mubiri ikaba myiza cyane.

Umukino wo koga ni mwiza cyane kuko utuma uruhuka mu mutwe ndetse ukaba wanakwishimisha bitewe n'ukuntu uba uri kwidumbaguza mu mazi meza.

Iki ni ikibuga, gikoreshwa mu kwitoza cyangwa mu gukina umukino bita voreboro, ndetse uwo mukino ni mwiza cyane ku bawukina, kuko ni umukino mpuzamahanga.

Aba ni abantu bari mu marushanwa yo koga, koga ni umukino mwiza kandi ndetse ni na siporo, ifasha mu kugorora ingingo ndetse bikadufasha no kugira ubuzima bwiza.

Siporo ni nziza ni ingirakamaro kuri buri muntu wese ushoboye kuyikora, kuko idufasha mu gutembera neza kw'amaraso mu mubiri wacu, ndetse no kugorora ingingo.

Siporo ni ingenzi ku buzima bwa muntu, kuko ituma amaraso atembera neza mu mubiri, ndetse akaba yanagira ubuzima bwiza. Gutwara igare ni byiza cyane kuko nayo ni siporo.

Gukora siporo ni ingenzi cyane, bidufasha kuba twahumeka neza ndetse amaraso agatembera mu mubiri neza cyane, tukagira ubuzima buzira umuze.

Uyu ni umukino ujyanye no gutwara amagare, amagare ni meza ni siporo ikorwa n'abantu bazi kunyonga, kandi iyi siporo ikunze gukorerwa mu Rwanda ndetse no hanze, kandi iyo siporo irimo amafaranga ndetse ikabamo n'umwitozo ngororamubiri.

Siporo ni nziza ku muntu wese wifuza gukora siporo, kandi uyu mukino bawita handball, ukina wifashishije umupira mu kiganza.

Iyi ni inzu yitwa Kigali Arena ikorerwamo imyidagaduro ndetse igakorerwamo n'ibitaramo bitandukanye, n'aho umuyobozi wacu Paul Kagame ajyamo guteguriramo ibirori ndetse n'inama.

Umukino wo gutwara amagare ni mwiza cyane, kuko utuma ugorora ingingo, amaraso agatembera neza mu mubiri; uyu afite ururabo bitewe nuko yatsinze umukino w' amagare.

Siporo ni nziza ituma amaraso atembera neza mu mubiri, kandi ukagira ubuzima buzira umuze, umukino wa hendiboro ni mwiza ku bantu bawukina, kandi ubafasha kwidagadura ndetse no gushimisha abawureba.

Siporo ni ingenzi ku buzima bwa muntu, kuko siporo ituma umuntu agira ubuzima bwiza, ndetse amaraso agatembera mu mubiri neza cyane.

Umukino w'amagare ni mwiza cyane, kuko abawukora baba bari kunanura ingingo zabo ndetse no kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri.

Siporo ni nziza cyane, kuko idufasha kugira ubuzima bwiza, ndetse no kuba amaraso yatembera neza mu mubiri, ndetse tukirinda indwara zo gusaza vuba.

Gukora siporo ni byiza bituma ugira ubuzima bwiza, ndetse n'uyu mukino bita tenisi ni mwiza cyane kuko utuma ugorora ingingo ndetse n'amaraso agatembera neza mu mubiri.

Iyi ni ikipe ikina umukino ujyanye na basikete. Basikete ni nziza kuko ni umukino mwiza cyane ugufasha mu kugorora ingingo, ndetse no kwishimisha.

Iyi ni ikipe y'abagore bakina imikino nk'imyidagaduro, ndetse n'abakobwa beza cyane bari muri sitade, ndetse n'abatoza babo ndetse n'abafana.

Uyu ni umuhanda, wo muri karitsiye, urimo ibyondo, ndetse n'inzu ifite uruzitiro rutubatse neza, n'umuntu uri gutambika muri iyo nzira.

Kaburimbo ni nziza cyane, kuko bituma unyuramo utanduye kandi usa neza, ndetse n'ibinyabiziga bikabasha kwihuta kubera ko nta bintu biba bitangiye iyo nzira.

Igipangu ni cyiza cyane, kuko kikurinda abajura cyangwa kuba abantu bakwinjira iwawe uko bashaka. Igipangu cyubatse neza gifite irangi rya shokora, ndetse n'amabati y'umutuku ku nzu nziza cyane.